Iki ni icyumba cy'inama kirimo abantu benshi bicaye bateze amatwi, hakaba harimo n'utuyira abantu banyuramo bajya bagenda bajya mu myanya yabo, abari imbere bicaye ku meza ariho igitambaro cy'umuhondo kandi imbere yabo bafite ibitabo bari kureberamo ibyo bari kumva ndetse hakaba hari n'ibirahure imbere yabo bibiri.

Aha hari abagabo babiri bicaye imbere ariko bakaba bari mu cyumba cy'inama kinini kirimo n'abandi bantu, umugabo ufite indangururamajwi akaba yambaye ikoti ry'umukara n'ishati y'umweru mo mbere, iruhande rwe hari uwambaye ikoti ry'umukara n'ishati y'umukara na karuvati y'ubururu.

Aha ngaha ni mu cyumba cy'inama, hari ameza manini yicayeho abantu bicaye ku ntebe nziza cyane z'umukara, hakaba harimo abafite za mudasobwa kugira ngo babashe kureberamo ibyo bavugaho mu nama, hakaba kandi imbere yabo bose bafite uducupa tw'amazi yo kunywa atunganywa n'uruganda ruzwi cyane mu Rwanda mu gutunganya ibyo kunywa rw'Inyange.

Ahangaha ni mu cyumba cy'inama harimo abantu batandukanye bambaye impuzankano ifite ibara ry'ubururu, bakaba bicaye ku ntebe nziza cyane kandi bakaba bari mu cyumba cyiza giteguye neza kiberamo inama, imbere yaboho hakaba hari uducupa tw'amazi yo kunywa dutunganywa n'uruganda rw'inyange.

Iki ni icyumba kiri kuberamo inama harimo abantu bahagaze kandi bishimye bameze nk'abari gukoma amashyi bicaye bari bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umutuku hakaba ari ameza ariho ibitambaro bifite ibara ry'umuhondo imbere yabo kandi hakaba hari uducupaw'amazi yo kunywa atunganywa n'uruganda rw'inyange.

Ahangaha hari abantu bari mu nama, hari umukobwa wambaye umupira w'icyatsi ufite urupapuro n'ikaramu arimo arandika akaba yambaye n'amataratara y'umukara, imbere ye hari agacupa gatunganywa n'uruganda rw'inyange kandi iruhande rwe hari umusore wambaye ishati y'ubururu, bicaye ku ntebe nziza cyane zifite ibara ry'umukara.

Aha ngaha ni icyumba kiri kuberamo inama kirimo ameza abaje mu biti ndetse n'intebe za purasitike zifite ibara ry'umweru, harimo abantu batandukanye abagore ndetse n'abagabo bakaba bose imbere yabo bafite uducupa tw'amazi yo kunywa, imbere hakaba hari umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara ndetse n'umugore wambaye ikanzu ndende uhagaze imbere yabo wambaye amataratara.

Aha ngaha ni mu cyumba kiri kuberamo inama hakaba hari ameza manini azengurutseho abantu batandukanye abagore n'abagabo, bafite za mudasobwa imbere yabo ndetse n'uducupa tw'amazi yo kunywa, imbere yabo hari igipapuro gifite ibara ry'ubururu cyanditseho amagambo yanditse mu ibara ry'umweru.

Ahangaha hari icyumba cy'inama kirimo abantu batandukanye imbere hari umugore ufite uruhu rwera cyangwa se uruhu rw'inzobe wambaye ishati irimo amabara y'umweru n'umu n'icyatsi ufite umusatsi muremure imbere ye hari icyatsi ndetse hari n'uducupa tubiri nkirahure gicuritse kireba hasi.

Aha ngaha ni mu cyumba cy'inama kirimo abantu batandukanye bazengurutse ameza manini, bicaye ku ntebe nziza cyane z'umukara kandi imbere yabo hose hari indangururamajwi zituma babasha kumvikana, hari kandi uducupa turimo amazi yo kunywa ndetse n'imitobe itandukanye ikorwa n'uruganda ruzwi cyane mu gutunganya ibyo kunywa rukorera mu Rwaanda rw'Inyange.

Ahangaha ni mu cyumba cy'inama kirimo abantu batandukanye abakobwa cyane cyane urubyiruko bambaye impuzankano zifite ibara ry'ubururu abicaye imbere harimo umwe wambaye igitamba cy'umukara mu mutwe ndetse n'amataratara afite ibara ry'umweru. L Imbere yabo hakaba hari uducupa tw'amazi yo kunywa dutunganywa n'uruganda ruzwi cyane mu Rwanda, mu gutunganya ibyo kunywa ari rwo rw'inyange.

Ahangaha hari abagabo bane bicaye ku meza akorerwaho inama ndetse n'intebe nziza cyane zifite ibara ry'umukara, hari umugabo wambaye ishati y'icyijuju, uwambaye ishati y'ubururu hakaba hari uwambaye ikoti ry'umukara ishati y'umweru imbere ndetse n'ingofero y'umukara kandi hakaba hari n'ubayoboye wambaye ikote ry'umukara n'ishati y'umweru na karuvati y'ikijuju akaba yambaye n'amataratara. Uwambaye ishati y'ubururu imbere ye hari mudasobwa.

Ahangaha hari abantu batandukanye, barimo abagore n’abagabo bambaye impuzankano zifite ibara ry’ubururu. Hakaba hari umugore uri guhererekanya indangururamajwi, na umugabo wambaye ishati y’umukara. Ndetse, hakaba hari n’umugore wicaye imbere yabo wambaye ibitambaro bifite ibara ry’umutuku

Aha ngaha hari umugabo wambaye ikote ry'ubururu ndetse n'ishati y'ubururu mo imbere na karuvati, imbere ye hari agacupa k'amazi yo kunywa gatunganywa n'uruganda rw'Inyange kandi akaba yambaye amataratara, inyuma ye hari abandi bantu batandukanye bari mu cyumba cy'inama bari kumwe na we.

Aha ngaha ni mu cyumba cy'inama kirimo abantu benshi batandukanye, harimo abagore ndetse n'abagabo, imbere yabo hari ameza atatseho ibitambaro bifite ibara ry'umweru, hakaba hari umukobwa wambaye ikote ry'umuhondo, ufite indangururamajwi kugira abo bari kumwe mu nama babashe kumwumva.

Ahangaha hari icyumba cy'inama kirimo abantu bicaye ku meza meza cyane bayazengurutse kandi bicaye ku ntebe nziza cyane ,imbere yabo bafite uducupa twamazi atunganywa n'uruganda rw'inyange ubayoboye ,uyoboye iyi nama yicaye imbere yabo bose kugirango babashe kumubona neza kandi bose bamwumve neza .

Ahangaha hari abantu bari mu cyumba cy'inama bazengurutse ameza bakaba kandi bicaye ku ntebe nziza cyane zifite ibara ry'umukara, imbere yabo kandi hari uducupa tw'amazi dutunganywa n'uruganda rutunganya ibyo kunywa rw'inyange, sibyo gusa kandi hari uyoboye inama wambaye ishati y'umukara hakaba kandi hari n'uwambaye umupira w'ubururu uri gufata amashusho y'ibiri kubera hano.

Ahangaha n'icyumba cy'inama kirimo abantu batandukanye abagabo ndetse n'abagore, bakaba bicaye ku ntebe nziza cyane z'umukara kandi icyumba cy'inama gisizemo irangi ry'umuhondo hakaba harimo n'umugabo munini wambaye ishati y'ubururu irimo imirongo y'ubururu iruhande rwe hakaba hari nundi wambaye ishati irimo amabara y'umuhondo, ubururu ndetse n'umweru.

Aha ngaha ni icyumba cy'inama cyiza cyane kandi giteguye neza kirimo abantu batandukanye, abagore ndetse n'abagabo hakaba harimo ameza meza cyane atatseho ibitambaro bifite ibara ry'umukara hakaba hari n'abandi bayoboye inama bicaye imbere yabo bose batatu abagabo babiri n'umugore umwe, inyuma yabo hakaba hari igipapuro kinini cyane cyanditseho gifite ibara ry'ubururu cyanditswe mu magambo y'umweru.

Aha ngaha hari abantu bane, abagore babiri ndetse n'abagabo babiri, umugore umwe afite ikayi n'ikaramu arimo arandika, imbere ye kandi hari indangururamajwi, nako imbere yabo bose hari indangururamajwi kugira ngo babashe kumvikana, bicaye ku ntebe nziza cyane, kandi bari mu cyumba kirimo intebe nziza cyane zicarwaho n'abantu baje mu nama zifite ibara ryiza cyane ry'ikijuju.

Aha ngaha ni mu cyumba cy'inama kirimo abantu bane, abagabo babiri ndetse n'abagore babiri, bicaye ku ntebe nziza cyane zifite ibara ry'umweru, kandi hari abambaye impuzankano ebyiri z'umuhondo, hakaba hari n'undi wambaye umupira w'ubururu. Imbere yabo hari ameza meza cyane afite ibara ry'umweru n'amaguru y'umukara, hakaba kandi hateretseho amataratara ndetse n'uducupa tubiri tw'amazi yo kunywa.

Ahangaha ni mu cyumba cy'inama hari abantu batandukanye bicaye ku ntebe nziza cyane z'umukara kandi bakaba bafite amazi yo kunywa imbere yabo atunganywa n'uruganda rw'inyange, bakaba kandi bafite mudasobwa imbere yabo, hakaba kandi hari umugabo imbere yabo wambaye ishati y'umweru n'amataratara uyoboye inama bamuteze amatwi bari gukurikira ibyo avuga icyumba cy'inama gifite irangi ry'umweru mu imbere.

Aha ngaha hari abagabo bicaye imbere bane ,harimo umwe uri hagati ufite uruhu rwera ,wambaye ikoti ry'umukara ndetse n'ishati y'umweru na karuvati y'umweru irimo ibara rijya gusa ikijuju akaba afite indangururamajwi ,imbere y'abo hari abantu kugirango ibyo ababwira babashe kubyumva. Imbere y'abo kandi hari uducupa tw'amazi yo kunywa atunganywa n'uruganda rw'inyange.

Ahangaha hari abagabo batatu bicaye ku meza akorerwaho inama ndetse n'intebe nziza cyane z'umukara, hari umugabo wicaye ku ntebe y'umukara wambaye ikoti ry'umukara, ishati y'umweru ndetse na karuvati y'umukara akaba yambaye n'amataratara, akaba ari kumwe n'abandi bagabo babiri bafite za mudasobwa imbere yabo.

Aha ngaha ni mu cyumba kiri kuberamo inama, hakaba harimo abantu benshi bambaye impuzankano zifite ibara ry'ubururu, imbere yabo hakaba hari umugore ufite indangururamajwi, wambaye ikote ry'umukara kandi hakaba hari n'uducupa tw'amazi yo kunywa dukorwa n'uruganda rw'Inyange. Imbere hari intebe zicarwaho n'abantu, zifite ibara ry'umukara ndetse hakaba hari n'igipapuro cyandikijejweho amagambo y'umweru

Ahangaha ni mu cyumba cy'inama kirimo abantu bazengurutse ameza bicaye ku ntebe nziza cyane z'umukara, hakaba hari abantu batatu bicaye imbere bayoboye izi nama imbere yabo hari hari icyapa cy'ubururu cyanditseho Kigali yacu yandikishijwe mu mabara y'umweru ndetse hakaba harimo ikiziga hagati gifite ibara ry'icyatsi cyanitsemo amabara y'umweru si ibyo kandi hari ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu gufata amashusho.

Aha ngaha hari abantu benshi, harimo abambaye impuzankano zifite ibara ry'ubururu, hari umukobwa n'umwana bari imbere bari kubyina barambuye amaboko, bafatanye, umwana yambaye inshabure, akaba yambaye n'ijipo y'umutuku irimo utudomo tw'umweru, hakaba hari kandi n'umugabo w'umupadiri, wambaye ishati y'ubururu ndetse n'ikoti ry'umukara.

Aha ngaha ni mu cyumba cy'inama kiriho ameza ariho abantu benshi batandukanye harimo abagore n'abagabo harimo ndetse n'urubyiruko, hakaba harimo abafite za mudasobwa imbere yabo, bakaba bari kuganira kandi bakaba bicaye ku ntebe nziza cyane, kandi bose bakaba bafite amazi atunganywa n'uruganda rw'Inyange mu ducupa dufite umufuniko w'ubururu.

Ahangaha hari abantu batandukanye bambaye impuzankano zifite ibara ry'ubururu bwijimye bandikishijeho amagambo y'umweru, ndetse hariho n'ibendera ry'u Rwanda. Ni abantu b'urubyiruko barimo abahungu ndetse n'abakobwa, hari umwe uhagaze ufite indangururamajwi kugira ababwira babashe kumwumvaba hakaba hari kandi n'undi uri gufata amashusho n'amajwi y'ibiri kubera ahangaha.

Ahangaha hakaba hari imashini zikoreshwa mu buvuzi cyane cyane zongerera abantu umwuka igihe barembye cyane cyangwa umuntu akaba yajyaho akareba uko umutima w'umurwayi uri gutera.

Ahangaha hari umugabo wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'umupira w'ubururu wambaye isaha ku kuboko ndetse uhagaze imbere y'inzu y'ubucuruzi ifite amarangi y'ubururu ikoreramo ikigo gitanga amafaranga.

Uru ni urubuga rureberwaho amakuru ku byerekeranye n'ubutaka rwashyizweho na repubulika y'u Rwanda, uru rubuga urugeraho ukabona ibyo ukeneye ku bijyanye n'ubutaka cyangwa se ukabaza amakuru yose ukeneye, ushobora kubaza ibintu bitandukanye kandi uru rubuga ruragufasha.

Ahangaha hari abantu batatu. Hari abasore babiri ndetse n'umukobwa umwe, umukobwa ufite umusatsi mwinshi urimo ibara ry'umuhondo akaba yambaye n’agapfukamunwa gafite ibara ry'ubururu akaba ndetse afite na mudasobwa mu ntoki bari iruhande rwe hari ufite ikayi mu ntoki ndetse n'abandi bari gukorera hamwe bose bari kureba hamwe ndetse hakaba hari uwambaye ingofero y'umukara ifiteho ibara ry'umweru.

Ahangaha hari umugabo wambaye umupira w'umuhondo, akaba ari gukoresha icyuma gikoreshwa mw’ itumanaho ndetse imbere ye hakaba hari n'ibindi bikoreshwa mu gukata amatike igihe umuntu agiye kujya ahantu hatandukanye hirya no hino mu gihugu, umugabo uri hirya uri gukata amatike, yambaye umupira urimo imirongo y'umutuku n'umukara.

Uyu ni umunara muremure ukoreshwa n'ibigo by'itumanaho bitandukanye bikorera mu Rwanda, uwo munara ufite ibara ry'umutuku umweru, ndetse n'ikijuju, uba uriho uriho ibyuma bifasha kugira ngo itumanaho rigende neza abantu babashe kumvikana.

Aha ngaha hari urubuga rw'irembo ikigo cy'igihugu gishinzwe gutanga amakuru ku bintu bitandukanye byerekeranye na leta, aho umuturage ashobora kujya akahabona amakuru yerekeranye n'ubutaka cyangwa uburyo agomba kubona indangamuntu, cyangwa ubundi bufasha butandukanye.

Ahangaha hari umugabo wambaye ishati y'umweru ufite mudasobwa imbere ye ari gutungamo urutoki, uburyo ushobora kubona amakuru atandukanye ku kigo cy'irembo cyagenewe guha abaturage ubufasha bakeneye ku bijyanye na leta.

Uru ni urubuga rw'ikigo cy'imisoro n'amahoro, rukorera kuri murandasi, aho ushobora kujyayo ukabasha guhindura umubare wawe w'ibanga usanzwe wifashisha iyo ugiye kwishyura umusoro wawe. Ibingibi biroroha, kandi byorohereza abacuruzi.

Iyi shusho iriho ikirangantego cy'u Rwanda cya repubulika y'u Rwanda, akaba ari uburyo bwo kwifuriza abanyarwanda umunsi mwiza w'umurimo, ni minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo yifurije abanyarwanda umunsi mwiza w'umurimo akaba byanditse ku gipapuro cy'umweru byandikishijwe ibara ry'ubururu.

Ubungubu ni uburyo umuntu ashobora gushyira amakuru ye kuri murandasi; kugira ngo abashaka kumufata kugira bamuhe akazi cyangwa mu yindi mirimo itandukanye babone amakuru ye kuri murandasi; kuko aba yarayashyizemo agiye atandukanye maze bakabasha kubona ibimuranga.

Ahangaha hari inyubako y'ubucuruzi irimo imiryango itandukanye, iyo miryango ikaba hari ifite ibara ry'ubururu, hakaba kandi hari n'undi umwe ufite ibara ry'umweru. Ni inyubako irimo imiryango itandukanye, kandi ikorerwamo n'ubucuruzi butandukanye. Imbere y'inyubako hari ikinyabiziga gifite ibara ry'umukara.

Aha ngaha hari abantu benshi bahateraniye, hakaba hari umukobwa ufite imisatsi y'umukara isutse, akaba yambaye ishati y'umweru. Akaba afite mudasobwa imbere ye ifite ibara ry'umukara ndetse na mugenzi we bari kumwe na we wambaye ishati y'umweru, akaba afite mudasobwa, hagati yabo hakaba hateretsemo agacupa k'amazi yo kunywa gafite umufuniko w'ubururu.

Uyunguyu ni umunara muremure wubatse mu byuma ufite ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'umutuku hagati, ni umunara ukoreshwa n'ibigo by'itumanaho bitandukanye bikorerwa mu Rwanda, n'umunara kandi wubakwa ahantu hatumburutse kugira ngo itumanaho rigere ahantu hose bitagoranye.

Aha ngaha ni mu nzu nziza cyane, isizemo amarangi afite ibara ry'umweru, harimo amatara menshi cyane yaka ibara ry'umweru, hakaba harimo ndetse n'intebe abantu bicaraho cyane cyane mu biro, abaganga cyangwa abandi bantu batandukanye zifite ibara ry'umukara.

Ahangaha hari itsinda ryabantu barenze babiri cyangwa batatu bahagaze ahantu hamwe hakaba hari nabandi babiri bicaye hari uwicaye imbere ya mudasobwa wambaye umwenda w'icyatsi ni umugore aba ni abantu bari kuganira ku bintu bitandukanye kandi ubona ko bakorera hamwe.

Uru rubuga ruriho uburyo umuntu ukoresha inyemezabuguzi ashobora kwiga uburyo yayikoresha bitamugoye kandi bimworoheye. Ni urubuga rwashyizweho n'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro, kugira ngo gifashe abacuruzi cyangwa n'abandi bantu bakora ubucuruzi kubona uburyo cyangwa amakuru yo gukoresha inyemezabuguzi.

Aha ngaha hari iminara ibiri ikozwe mu byuma iriho insinga nyinshi cyane, izi nsinga zifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, ziwujyana ahantu hirya no hino hatandukanye. Hari kandi ikirere cyiza cyane kirimo ibara ry'ubururu ndetse n'ibara ry'umweru.

Ahangaha hari umunara muremure wubakishijwe ibyuma wifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi muri izi ngo zose ziri aha ngaha, hari ingo zubakishije amabati ashaje hasa nk'aho hari hacu hari ubucucike bw'inzu nyinshi zubatse hano hantu.

Aha ngaha hari umuhanda uri kugendamo umugabo wambaye isarubeti y'ubururu kandi hari igiti kiriho itara rimurikira abagenzi n'ibinyabiziga ku muhanda, kikaba kiriho n'insinga zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi ahantu hirya no hino hatandukanye, ni umuhanda ukikijwe n'ibiti byiza cyane, hepfo hakaba hari abantu bambaye isengeri y'icyatsi imenyerewe ku bantu bakora amasuku mu muhanda.

Iyi ni inzu isize irangi rijya gusa umuhondo ifite itara hejuru rimurika mugihe cya nijoro ndetse ikaba ifite n'irangi ry'icyatsi hejuru ku mpera ndetse ikaba ifite urugi rudusiho irangi ry'umukara.

Aha ngaha hari ubusitani bwiza cyane, burimo ibyatsi byiza ndetse n'indabo zitandukanye, hakaba harimo umunara ukozwe mu byuma muremure, ushyirwaho insinga kugira ngo zikwirakwize umuriro w'amashanyarazi, ahantu hirya no hino hatandukanye kandi henshi. Hari kandi n'igiti kirekire cyiza cyane, cyegeranye n'uyu munara.

Aha ngaha hari ibiti birebire bikozwe mu byuma bishyirwaho insinga kugira ngo zikwirakwize umuriro w'amashanyarazi, ziwujyane ahantu hirya no hino hatandukanye mu ngo cyangwa se mu nyubako zitandukanye ndetse no ku mihanda, hari kandi insina z'ibitoki, hakaba hari ndetse n'ibihuru...

Aha ngaha hari ibiti bibiri byubatswe mu byuma bishyirwaho insinga nyinshi zijyana umuriro ahantu hatandukanye, ibi ngibi bituma umuriro ugera ahantu henshi kandi byihuse. Ibi biti biri mu ruzitiro rwubakishije amabati ,hirya hari inzu ifite uruzitiro rwubakishije amatafari ahiye hariho ibyuma bisize irangi ritukura.

Ahangaha hari uruzitiro rurerure cyane ruriho rurimo ibiti mo imbere, hakaba kandi hari n'igiti gikozwe mu cyuma kiriho itara rimurika mu gihe cya nijoro, hakaba kandi hananyuraho insinga zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi ziwujyana ahantu hatandukanye mu mazu cyangwa mu nzu z'ubucuruzi zitandukanye.

Ahangaha hari igiti kinini kiriho insinga z'amashanyarazi. Hakaba hari ibinyabiziga kandi biparitse munsi y'iki giti hakaba hari ibifite amabara atandukanye. Hari igifite ibara ry'umweru cyicayemo umuntu wambaye umupira w'umuhondo, iruhande rwacyo hari ikindi gifite ibara ry'umukara hakaba hari n'ikindi gifite ibara ry'umweru kiriho urwego hejuru bifashisha buririra ibiti kugira bakwirakwize amashanyarazi.

Aha ngaha hari ibiti bitandukanye bishyirwaho insinga kugira ngo zikwirakwize amashanyarazi ahantu hatandukanye kandi henshi, si ibyo gusa hari ishyamba rinini ryiza cyane ribereye ijisho kurireba ririmo ibiti byinshi cyane, hakaba hari n'amapikipiki aparitse ndetse n'abantu batandukanye bahagaze.

Aha ngaha hari ishyamba ryiza cyane ririmo ibiti byinshi ndetse n'amazu matoya agiye atandukanye, hari kandi uruzitiro rwubakishije amatafari ahiye, hari ndetse n'igiti cyagenewe gushyirwamo insinga z'amashanyarazi kugira ngo zikwirakwize umuriro w'amashanyarazi ahantu hirya no hino hatandukanye kandi henshi.

Aha ngaha hari igiti kirekire gikozwe mu cyuma, gishamikiyeho insinga nyinshi cyane zijyana amashanyarazi, zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, hirya no hino hatandukanye mu ngo cyangwa mu mazu y'ubucuruzi, akora ibintu bitandukanye. Hafi y'icyo giti hahagaze abaturage batatu, hakaba harimo n'uteruye umwana mutoya.

Ahangaha hari uruzitiro rwubakishije amatafari ahiye ndetse rushizeho irangi ry'umukara hasi ndetse n'iy'yumweru hejuru hariho n'utwuma hejuru dusize irangi ry'umweru, si ibyo kandi hari ibiti byagenewe gushyiraho insinga z'amashanyarazi kugira ngo zikwirakwize umuriro w'amashanyarazi hirya no hino ndetse n'amatara amurikira ibinyabiziga ku muhanda n'ijoro.

Uyu nguyu ni umuhanda urimo urujya n'uruza rw'abantu ndetse n'ibinyabiziga bitandukanye hakaba hari intebe isakaye yicarwamo abagenzi bategereje ikinyabiziga kibatwara, hari kandi igiti kirekire gishyirwaho insinga zifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi ahantu hagiye hatandukanye cyane cyane muri izi nzu z'ubucuruzi zubatse hano.

Uyu nguyu ni umunara munini wubakishijwe ibyuma, ushyirwamo insinga kugira ngo zikwirakwize umuriro w'amashanyarazi ahantu hirya no hino hatandukanye kandi henshi, kugira ngo umuriro ugere ku bantu benshi kandi icyarimwe.

Ahangaha hari inzu yubakishije amatafari ahiye, ifite isi ifite amadirishya asinze irangi ry’umweru iruhande rwayo, harindi isize irangi ry’umuhondo inyuma y’iyi nzu. Inzu hari ibiti byiza cyane. Akabaha imbere yayo, hari ibikoresho byifashishwa mu kubaka cyangwa gukwirakwiza umuriro w’amashanyarazi ahantu hatandukanye hirya no hino mu gihugu.

Ahangaha hari inyubako isize amarangi y'umuhondo, hakaba hariho n'itara rimurika nijoro, hari abantu bicaye ku intebe bategereje, hakaba hari n'abandi bahagaze, si ibyo gusa kandi, hari imbangukiragutabara iri hirya ifunguye, irimo irimo abantu bambaye impuzangano zifite ibara ry'ubururu, hakaba hari n'indi mbangukiragutabara yifashishwa mu gukura abarwayi ahabereye impanuka cyangwa se kubajyana ku ibitaro igihe barembye.

Ahangaha hari inyubako nziza cyane isize amarangi y'umweru kandi yubakishijwe amatafari ahiye afite ibara ry'umuhondo, hari gusohokamo imodoka imenyerewe cyane mu gukoreshwa mu buvuzi nk'imbangukiragutabara, kuko ikura abarwayi ku bitaro bimwe ibajyana ku bindi byisumbuyeho.

Ahangaha hari inzu nziza cyane, inzu ndende igeretse kabiri, akaba ari inzu ifite irangi ry'umuhondo ndetse n'amabati meza cyane, ikaba kandi ifite imiryango myinshi myiza ndetse n'amadirishya, akaba ari inyubako ifite hasi no hejuru. Si ibyo gusa kandi iruhande rwayo hari iyindi nyubako nayo nziza cyane ifite amabati atukura.

Ahangaha ni mu nyubako nini cyane irimo imiryango igiye itandukanye, hakaba hicaye abantu benshi bicaye ku murongo kandi bicaye bameze nk'abategereje guhabwa ubufasha ku bintu bitandukanye. Iyi nzu isizemo irange ry'umweru, ku gisenge hakaba hariho amabara y'icyatsi ndetse n'umweru mo hagati.

Ahangaha hari umukecuru wambaye imyenda y'umuhondo uri kunyuzwa mu byuma by'ubuvuzi cyane cyane bikura amaso, iruhande rwe hari umuganga wambaye umwenda wambarwa n'abaganga ufite ibara ry'umweru akaba yambariyemo ijipo y'umukara, akaba afite ibyuma ari gukoresha areba uko amaso y'uyu mubyeyi ameze.

Ahangaha ni uruzitiro rw'ahantu hari kubera ubuvuzi butandukanye harimo hari abantu bari hanze bari kugenda binjiramo hano kwa muganga hari n'ipikipiki iparitse hanze hari kandi n'urukarabiro rutuma abantu bakaraba kugira ngo birinde kwanduzanya indwara zitandukanye.

Aha ngaha hari inyubako nziza cyane, irimo akayira abantu bagendamo, ikaba ifite inkingi nyinshi cyane, hakaba kandi hasize amarange y'umuhondo ndetse n'andi y'ikijuju asinze ku madirishya ndetse n'amabati atukura.

Ahangaha hari abantu benshi bicaye ku ntebe bategereje ubufasha ku bintu bitandukanye hakaba harimo n'imfungwa zambaye impuzankano zitandukanye zirimo ibara ry'umuhondo ndetse n'ibara ry'umutuku werurutse. Ni abantu bicaye ku ntebe zibaje mu giti ndetse zikozwe mu byuma hakaba hejuru yaho hari igisenge cy'amabati.

Ahangaha hari inzu nziza cyane zifite inkingi z'ibyuma ndetse n'amabati atwikiriye no hanze, hakaba hari ubusitani buri hagati, kandi harimo abantu bafite imizigo itandukanye irimo ibikapu, harimo abantu batandukanye cyane cyane abagore, hakaba harimo n'umugabo uri hagati umeze nk'aho ariwe urimo kubafasha.

Aha ngaha hari umuhanda uri kugendamo ikinyabiziga kirangaye inyuma gitwaye umuzigo, hakaba hari n'ipikipiki iri hirya iri kuza ariko ikaba yahagaze ahari amabara y'umweru aho abagenzi bambukira, hakaba kandi hari ikirangahantu kigaragaza ko hano hakorera komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu, hari kandi akaduka gato k'ikigo cy'itumanaho gikorera mu Rwanda gikoresha ibara ry'umuhondo.

Ahangaha hari umugabo wambaye ikanzu ifite ibara ry'umutuku ndetse ifitemo n'ibara ry'umweru mo hagati akaba yambaye ishati y'umweru irimo imirongo y'icyatsi itambitse ndetse na karuvati itukura.

Iyi shusho igaragaza abantu bambaye impuzankano z’amakanzu y’umukara arimo ibara ry’umweru. Imbere yabo, hicaye uwambaye ikanzu y’umutuku ndetse n’ingofero y’umukara. Abo bantu bafashe ku ibendera ry’igihugu n'akaboko k'ibumoso, naho akaboko k’iburyo bakamanitse, barimo bararahira.

Aha ngaha hari abantu bicaye munsi ya shitingi ifite ibara ry'umweru ndetse ikaba ifashe ku miyenzi iri inyuma igize uruzitiro bicayemo imbere akaba ari abantu bicaye ku ntebe zibaje mu mbaho imbere hakaba hari abambaye impuzankano zifite ibara ry'umutuku werurutse bigaragara ko ari imfungwa.

Aha hari umugore wambaye ikanzu y'umutuku irimo ibara ry'umuhondo hagati akaba ari umugore ukuze ufite umusatsi mwinshi ku mutwe ndetse akaba afite amaso manini y'umweru, akaba kandi ari umugore ufite uruhu rwera cyangwa uruhu rw'inzabe.

Iyi shusho iragaragaza imfungwa zambaye impuzankano z'umutuku werurutse cyane, zifite ibikoresho birimo amasuka, bari kugenda k'umurongo. Hari uruzitiro runini cyane kandi rurerure cyane, rwubakishije amatafari ahiye. Imbere hari urugi rufite ibara ry'umutuku imbere yaho hicaye imfungwa nayo yambaye impuzankano isa umutuku werurutse.

Izi ngizi ni imfungwa zicaye imbere y'abantu benshi, batandukanye bambaye imyenda y'amabara atandukanye. Izi mfungwa zambaye impuzankano zisa, kandi bakaba bari bicaye ku meza abaje mu mbaho.

Uyu nguyu ni umugore ukuze wambaye umwenda ufite ibara ry'umutuku umukara ndetse hagati hakaba harimo ibara ry'umweru, ni umugore wambaye amataratarai afite ibara ry'umukara ndetse akaba afite umusatsi muremure ndetse akaba yambaye n'imirimbo yo ku matwi ndetse no mu ijosi.

Iyi shusho iragaragaza gereza yubakishijwe amatafari ahiye ndetse hari ahasize irangi ry'umukara hejuru handitse gereza mu rurimi rw'icyongereza ndetse n'umubare igihumbi kimwe maganacyenda mirongo itatu byanditswe mu mabara y'umweru, imbere yaho hari imfungwa zambaye impuzankano zitandukanye zirimo; umuhondo ndetse n'umutuku werurutse akaba hari n'umucungagereza umwe.

Ahangaha hari igikuta kirekire cyubakishijwe amatafari ahiye ndetse gisizemo amarangi y'umuhondo kikaba gifite urugi na rwo rusize irangi ry'umukara n'umuhondo, hakaba hari imfungwa ziri kugenda imbere yayo zambaye impuzankano y'umuhondo ndetse n'umutuku werurutse, hari kandi n'abacungagereza bari kumwe n'izo mfungwa, imbere y'iyi gereza hari umunara muremure uhagararamo abashinzwe umutekano.

Aha ngaha hari umugabo ushinzwe umutekano w'u Rwanda wambaye imyenda y'umukara irimo amabara y'icyatsi, n'ushinzwe umutekano wo mu muhanda akaba ari kumwe n'abatwazi b'amapikipiki bafite abagenzi, baparitse ku murongo bari kumva amabwiriza ari kubaha.

Aha ngaha hari umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye harimo ibitwara abantu ndetse hahagaze ushinzwe umutekano w'u Rwanda, ushinzwe umutekano wo mu muhanda wambaye imyenda y'umukara ndetse irimo amabara y'icyatsi, hari ipikipiki itwaye umugenzi ndetse hakaba n'ikinyabiziga gitwaye abantu cyagenewe gutwara abantu gifiteho ibara ry'umuhondo.

Ahangaha hari ikinyabiziga cyiza cyane gifite ibara ry'umweru kiri kwaka itara ry'ubururu, hejuru y'icyo kinyabiziga hakaba hari kwaka amatara abiri iry'ubururu ndetse n'iry'umutuku, aya matara amenyerewe cyane ku modoka z'abashinzwe umutekano, icyo kinyabiziga kandi giparitse imbere y'uruzitiro rusize irangi ry'umuhondo ndetse ruzitiwe n'ibyuma bifite irangi ry'umukara.

Aha ngaha hari abagabo babiri bambaye impuzankano zambarwa n'abantu bazimya inkongi z'umuriro, bafite umugozi uri kuvamo amazi, ari gushyirwa ahantu habaye inkongi y'umuriro kugira ngo hatagira ibyo umuriro wangiza, bifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro no kurinda ubuzima bw'abantu.

Iri ni ishyamba rinini cyane ririmo ibiti byinshi kandi by'ubwoko butandukanye, hakaba hano hari inyubako yegeranye n'igiti kirekire kiriho insinga zijyana amashanyarazi ahantu hirya no hino hatandukanye, iyi nyubako ifite ibati rifite ibara ry'umweru.

Ahangaha hari inyubako ndende nziza cyane isize amabara y'umweru ndetse n'amabara y'cyijuju, ifite ibirahuri by'umukara ndetse amadirishya yayo asize irangi ry'umweru. Imbere y'iyo nyubako haparitse imodoka zifite ibara ry'umukara ndetse n'ibara ry'umweru ndetse handitsemo polisi, hakaba hari imodoka z'abashinzwe umutekano cyane cyane wo mu muhanda, hakaba hari n'umuntu uri kugenda yegera icyapa kiyobora ibinyabiziga.

Ahangaha hari umuhanda mwiza cyane urimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitandukanye, ni umuhanda ukikijwe n'ibiti byiza cyane kandi birebire hakaba harimo n'amatara maremare amurikira ibinyabiziga mu gihe cya nijoro n'ibinyabiziga harimo ikinyabiziga kinini gitwara abashinzwe umutekano ndetse n'ibindi binyabiziga biri kujya mu byerekezo bitandukanye.

Aha ngaha hari icupa rifite ibara ry'umutuku gishyirwa cyane/rishyirwa cyane mu nyubako zihuriramo abantu benshi ibitaro, amasoko ndetse n'ahandi hantu haba hari abantu benshi, hifashishwa mu kuzimya igihe hateye inkongi z'umuriro cyangwa se igihe habaye ibyago by'inkongi y'umuriro yifashishwa mu kugira ngo izimye uwo muriro, hari ndetse n'ikibika imyanda gifite ibara ry'umukara.

Ahangaha hari icupa rinini rifite ibara ry'umutuku rishyirwa ahantu hahurira abantu benshi cyane mu masoko mu bitaro ndetse n'andi maduka agiye atandukanye iri cupa ryifashishwa igihe habaye inkongi y'umuriro iteye inyubako runaka ryifashishwa mu kuzimya izo nkongi z'umuriro .

Ahangaha hari inzu nziza cyane isize amabara y'umukara ndetse n'umweru, akaba imbere yayo haparitse ibinyabiziga bibiri kimwe gifite ibara ry'umweru ikindi ku ruhande gifite ibara ry'umukara, hari kandi igiti gitambitse gituma nta kinyabiziga gishobora kwinjiramo hano kitabiherewe uburenganzira.

iyi ngiyi ni inzu icururizwamo ibyo kunywa cyane cyane ikawa ndetse n'ibindi byo kunywa bigiye bitandukanye, ni inzu iriho amacupa yifashishwa ashyirwa ahantu hahurira abantu benshi, amasoko cyangwa n'ahandi hatandukanye, yifashishwa mu gihe hateye inkongi y'umuriro, akifashishwa azimya uwo muriro.

Aha ngaha hari umugore wambaye ikanzu y'icyatsi akaba yambaye urunigi mu ijosi akaba kandi afite umusatsi mwinshi yambaye nama n'udutaratara dutoya dufite ibara ry'umweru, yicaye ku ntebe ifite ibara ry'umweru kandi yicaye imbere ye inyuma ye hari igikuta gisize irangi ry'umuhondo.

Iyi shusho iragaragaza abaturage benshi cyane bafite amabendera y'umuryango wa efuperi inkotanyi ukoresha ibara ry'umutuku, umweru, ndetse n'ubururu. Umuryango ubarizwamo umunyakubahwa w'umukuru w'igihugu cyacu Poro Kagame.

Aha ngaha hari abantu benshi bambaye amashati y'umweru ndetse n'abandi inyuma bambaye impuzankano zifite ibara ry'ibyatsi, hakaba hari umugabo witwa Habineza Frank wari uhataniye umwanya w'umukuru w'igihugu mu gihe cy'amatora.

Ahangaha hari umugore wambaye ibitenge byiza cyane ndetse n'ibininiigi ndetse n'indi mirimbo bashyira ku matwi ufite umusatsi mwinshi cyane yambaye kandi indi mirimbo bashyira ku ntoki ndetse no ku maboko yicaye ku ntebe nziza cyane ibaje mu biti akaba yambaye ibitenge birimo amabara y'umuhondo ndetse na kacyi.

Aha ngaha hari abantu batonze umurongo batandukanye, harimo abagabo n'abagore, hakaba hari kandi ikigo cy'ishuri bariho, gifite amabati ndetse cyubakishejwe amatafari ahiye, hakaba hatatse ibitambaro bifite ibara ry'umuhondo n'ubururu, hakaba kandi hakikijwe n'ishyamba ririmo ibiti byiza cyane kandi birebire.

Ahangaha hari abantu babiri umugore n'umugabo bateruye igipapuro kiriho abantu batandukanye ndetse kiriho umushinga bamaze kwerekana. Ni umugore wambaye ikanzu y'umukara n'amataratara ndetse n'umugabo wambaye imyenda y'imikara ndetse n'ishati y'umweru na karuvati y'umukara irimo amabara y'umweru.

Iyi shusho irimo ibendera ririho amabara y'umutuku umuhondo ndetse n'icyatsi hakaba harimo n'ikirangantego cyanditswe mu mabara y'umukara hakaba hariho hejuru y'icyo kirangantego hariho ishusho y'inuma ihagaze hejuru.

Iyi shusho iriho abagabo batatu bari bahatanye mu matora y'umukuru w'igihugu, hakaba hariho nyakubahwa Paul Kagame, Frank Habineza ndetse na Philippe Mpayimana, akaba ibi ngibi ari ibyavuye mu matora yabaye.

Iyi shusho iratwereka abantu benshi bari kumwe bari iruhande rw'umugabo wambaye ishati y'umweru irimo amabara y'icyatsi, uri guhobera abana batoya b'imyaka mikeya, hakaba hari n'abandi bafite ibitambaro biriho amabara y'icyatsi, ni abantu benshi cyane bagiye batandukanye barimo abagore ndetse n'abagabo n'abana.

Ahangaha hari abantu batatu, harimo abagore babiri ndetse n'umugabo umwe, harimo umugore umwe akaba ariwe minisitiri wa siporo mu Rwanda, yambaye ikanzu irimo ubururu ndetse n'amataratara y'umukara, akaba umugabo bari kumwe yambaye ikote ry'ubururu na karuvati y'umutuku.

Aha ngaha hari abantu benshi cyane batonze umurongo harimo abagore ndetse n'abagabo. Aha ngaha hari umusaza wambaye ikote ry'umukara ririmo amabara y'ikijuju ndetse n'ingofero akaba yambaye n'amataratara inyuma ye hari umukecuru witeye igitambaro kirimo amabara atandukanye arimo umuhondo umutuku ubururu akaba ari imirongo myinshi irimo abantu benshi cyane.

Aha ngaha hari akantu kagenewe gushyiramo amajwi abantu batoye gafite ibara ry'umweru ndetse n'umufuniko w'umukara, hari umuntu uri gushyiramo ijwi rye afite igipapuro mu ntoki wambaye ishati y'umukara ndetse n'umugore umuri iruhande wambaye ibitenge by'ubururu ndetse nawe we afite ijwi rye mu ntoki.

Ahaha hari abagabo batatu bahagaze imbere hakaba hari uwambaye umupira w'umweru ndetse n'amataratara y'umukara, hagati harimo uwambaye imyenda y'ikijuju wambaye n'ishati y'umweru ndetse na karuvati y'umukara imbere ye hari indangururamajwi uyu yamenyekanye ubwo yari guhatana mu matora mu kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu.

Aya ngaya n'amabara y'ibendera agizwe n'amabara y'icyatsi, umweru ndetse n'ubururu, akaba hagati handitsemo ijambo ha sa da ryanditse mu ibara ry'ubururu.

Ahangaha ni mu cyumba cy'inama, aho harimo abantu batandukanye, abagore n'abagabo bicaye ku ntebe nziza cyane z'umukara, bakaba bafite indangururamajwi imbere yabo kugira ngo bavuge babashe kumvikana kandi bakaba bafite n'amazi yo kunywa imbere yabo, atunganywa n'uruganda rw'Inyange, aya mazi akaba ari mu ducupa dufite ibara umufuniko w'ibara ry'ubururu.

Iki ni icyumba kinini cyane cy'inama, kirimo abantu benshi batandukanye bazengurutse kino cyumba. Harimo, abagore ndetse n'abagabo. Hari umugabo wambaye ishati yu'mweru na karuvati yumukara, irimo imirongo yumweru n'ipantaro yumukara ufite agaseke. Hakaba hari, n'umugore wambaye umwenda w'umukara ufite agapapuro ari gushyira muri ako gaseke.

Ahangaha ni mu cyumba kirimo abayobozi batandukanye kandi harimo amabendera menshi y'igihugu ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye imbere hari umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Paul kagame akaba ari kumwe n'abandi bantu bamukikije bicaye ku ntebe nziza cyane ariko barahagaze imbere yabo hari indangururamajwi zibafasha kugira ngo babashe kumvikana.

Aha ngaha hari igipapuro kiriho umugabo w'umukandida wari umukandida mu mu gihe cy'amatora wahataniraga umwanya w'umukuru w'igihugu, hejuru handitseho isibo ubwiza ni amagambo yanditse mu ibara ry'umweru, hakaba kandi kuri iki gipapuro hariho amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu, umukara hakaba hariho kandi uturongo dushushanyije mu mabara y'umuhondo, ubururu ndetse n'icyatsi.

Aha ngaha ni mu kigo gitegerwamo imodoka zitwara abagenzi zibajyana mu byerekezo bitandukanye by'igihugu, cyane cyane iki kinyabiziga gihari gifite ibara ry'ubururu ndetse n'ibara ry'umweru, kifashishwa mu kujyana ahantu mu byerekezo bitandukanye by'umujyi wa Kigali.

Aha ngaha ni mu muhanda uri kugendamo ikinyabiziga cyamenyereye cyane gutwara abantu benshi, kibajyana mu byerekezo bitandukanye cyane cyane mu mujyi wa Kigali. Ikinyabiziga ni kinini cyane, gifite ibara ry'umweru harimo n'utubara tw'icyatsi, akaba gifite kandi ibirahuri by'umukara.

Ahangaha ni mu muhanda munini cyane kandi mugari urimo amabara y'umukara harimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitandukanye harimo amapikipiki ahetse abagenzi ndetse n'ibinyabitende hakaba harimo n'ikinyabiziga kinini kigenewe gutwara ibicuruzwa cyane cyane bicuruzwa byambukirana imipaka hakaba kandi hari n'amatara yo ku muhanda amurikira ibinyabiziga n'abagenzi mu gihe cya nijoro .

Ahangaha, hari umuhanda urimo ugendamo ibinyabiziga bitandukanye. Hakaba hari ikinyabiziga cyagenewe gutwara abagenzi benshi cyane, ni ikinyabiziga gifite ibara ry'umuhondo umweru, ndetse, hakaba hariho amagambo yanditswe mu ibara ry'umutuku. Ni ikinyabiziga gitwara abantu benshi icyarimwe cyane, cyane mu byerekezo bitandukanye mu mujyi wa Kigali. Hakaba harimo n'undi mugabo wambaye isarubeti y'ubururu.

Aha ngaha hari ikinyabiziga cyiza cyane gikoreshwa mu mujyi wa Kigali gutwara abagenzi kibajyana hirya no hino mu mujyi wa Kigali mu byerekezo bitandukanye. Ikinyabiziga gifite ibara ry'ubururu ,ibara ry'umweru akaba ari ikinyabiziga gituma abantu bagera aho bagiye vuba vuba kuko kihutisha ingendo cyane cyane izo mu mujyi wa Kigali.

Ahangaha hari ikinyabiziga gifite ibara ry'ikijuju ndetse harimo n'utubara tw'umukara akaba ari ikinyabiziga abiga gutwara ibinyabiziga bigira kiri mu muhanda mwiza cyane ukikijwe n'ibiti bib cyane hari kandi umuntu umuntu uri kureba inyuma wambaye umupira uriho w'ikijuju uriho ibara ry'umukara ndetse wambaye n'ingofero.

Aha ngaha ni mu kigo gitegerwamo imodoka n'abagenzi kiri mu mujyi wa kigali hakaba harimo ibinyabiziga bitandukanye bitwara abagenzi mu byerekezo bitandukanye by'igihugu imbere hakaba hari ikinyabiziga cyagenewe gutwara abagenzi cyane cyane mu byerekezo bitandukanye mu mujyi wa kigali bifite ibara ry'ubururu ndetse n'ibara ry'umweru.

Uyu ni umuhanda ukikijwe n'uruzitiro ruriho ibara ry'icyatsi hakaba kandi hakikijweho n'ibiti birebire byiza cyane, si ibyo gusa harimo ibinyabiziga biri kugenda harimo ikinyabitende gitwaye umuntu ndetse n'amapikipiki atwaye abagenzi biri kujya mu cyerekezo kimwe.

Aha ni mu muhanda harimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga byinshi bitandukanye harimo ibinyamitende ndetse n'amapikipiki n'ibinyabiziga bitwara imizigo itandukanye hakaba hari ndetse n'ibinyabiziga bitwara abantu sibyo kandi harimo n'abari kugenda n'amaguru .

Aha ngaha hari umuhanda ukikijwe n'uruzitiro rufite ibara ry'icyatsi ndetse hakaba hari ibiti birebire byiza cyane. Uyu muhanda hari kugendamo ikinyabiziga kinini gitwara imizigo cyane cyane ibicuruzwa, kiri kujya mu cyerekezo gitandukanye n'icy'ipikipiki iri kujya mu kindi cyerekezo.

Uyu ni umuhanda uri kugendamo ipikipiki yagenewe gutwara imizigo, ni ipikipiki ifite ibara ry'ubururu iriho amagambo yanditse mu ibara ry'umweru, akaba kandi ari ipikipiki itwikirije shitingi ifite ibara ry'umweru kugirango ibicuruzwa itwaye cyangwa imizigago itwaye itangirika.

Ahangaha ni mu kigo cyagenewe guparikwamo ibinyabiziga kugirango abagenzi bajye kubitegereza bibajyane aho bagiye mu byerekezo bitandukanye hirya no hino mu gihugu, harimo urujya n'uruza rw'abantu benshi, si ibyo gusa kandi haba harimo n'amazu y'ubucuruzi atandukanye akora ubucuruzi butandukanye.

Ahangaha haparitse ikinyabiziga cyagenewe gutwara abantu benshi cyane batandukanye, cyane cyane kikaba gikorera mu mujyi wa kigali gitwara abantu mu byerekezo bitandukanye by'umujyi wa kigali, gifite ibara ry'umweru ndetse n'utubara dutoya tw'ibara ry'umuhondo.

Ahangaha ni mu muhanda aho hari kugendamo ibinyabiziga bibiri harimo ipikipiki ndetse n'ikindi kinyabiziga gitwara abantu benshi kibajyana mu byerekezo bitandukanye cyane cyane, mu mujyi wa kigali ikinyabiziga gifite ibara ry'umuhondo ndetse n'ibara ry'umweru hakaba hariho amagambo yanditse mwibara ry'umutuku.

Ahangaha hari umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye, cyane cyane amapikipiki yifashishwa mu gutwara imizigo. Hari iziri kurebana zifite ibara risa ubururu hakaba hari n'ikindi kinyabiziga kiri kugenda gifite ibara ry'ikijuju. Uyu muhanda kandi, ukikijwe n'ibiti byiza cyane bibereye ijisho.

Uyu n’umuhanda urimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitandukanye harimo ibitwara abantu, amapikipiki ndetse n'ikinyabitende gitwaye umufuka munini urimo ibintu byinshi, s’ibyo gusa kandi hari n'ikinyabiziga cyagenewe gutwara ibicuruzwa cyane cyane ibyambukiranya umupaka gifite ibara' ry'ubururu ndetse n'utubara tw'umweru ku mpande.

Ahangaha hari umuhanda mwiza cyane w'umukara, hirya hariho amabara y'umukara ndetse n'umweru, harimo ipikipiki ifite ibara ry'umutuku irimo kugenda iriho mutwazi wayo. Hari ndetse n'uruzitiro rufite ibara ry'umweru ndetse n'ibiti bikikije urwo ruzitiro, byiza cyane kandi hakaba hari n'amatara amuririka ibinyabiziga mu gihe cya nijoro.

Ahangaha hari umuhanda mwiza cyane uri kugendamo ikinyabiziga gitwara abantu bashaka kugenda mu buryo bwihariye gifite ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo hakaba hariho amagambo yanditswewi ibara ry'umutuku hirya kandi harilai amazu y'ubucuruzi akaba ari umuhanda ufite isuku kandi ukikijwe n'amazu meza cyane hakaba hari kandi n'ibiti bishyirwaho insinga zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi.

Uyu nguyu ni umuhanda ukikijwe n'uruzitiro rwiza cyane rufite ibara ry'icyatsi, hakaba hari n'ibiti birebire kandi byiza cyane na byo bibereye ijisho, hakaba harimo ibinyabiziga bibiri binini cyane byifashishwa mu bwikorezi bw'ibucuruza bitandukanye biremereye, hakaba hari ibiri kujya mu byerekezo bitandukanye kimwe gifite ibara ry'umutuku, ikindi gifite ibara ry'umukara.

Ibi ni ibinyabiziga biri kugenda mu muhanda harimo ibitwara abantu ndetse n'amapikipiki atwara abantu abageza mu byerekezo bitandukanye hirya no hino mu gihugu. Hari kandi hirya inzu y'ubucuruzi ifite inzugi zisize ibara ry'icyatsi akaba ari inzu z'ubucuruzi zikorerwamo ubucuruzi butandukanye ndetse n'ibindi bigo byigenga bigiye bitandukanye.

Iyi shusho iragaragaza amapikipiki aparitse imbere y'inzu y'ubucuruzi irimo imiryango myinshi ikorerwamo ubucuruzi butandukanye ipikipiki iri imbere hariho umuntu uri inyuma wambaye imyenda yu'ubururu uri kuzirikaho umuzingo.

Ahangaha hari inyubako y'ubucuruzi iri gukorerwamo ubucuruzi butandukanye, kuko ifite imiryango myinshi ikaba ifite utuzitiro dutoya dukingiyeho dufite ibara ry'umweru. Kandi hari ikirangahantu kigaragaza ko hano hacururizwa ibiryo by'amatungo, hakaba hari ikinyabiziga giparitse imbere y'igipangu cy'umukara ikinyabiziga gifite ibara ry'umweru, hirya kandi hari urujya n'uruza rw'abantu ndetse n'ibinyabiziga bitandukanye.

Aha ni mu muhanda hari kugendamo ikinyabitende n'umutwazi wacyo wambaye umwenda w'akazi, ufite ibara ry'umuhondo ndetse n'ubururu. Ni umuhanda ukikijwe n'inyubako zitandukanye hakaba hariho n'ibiti biriho amatara amurika nijoro ku muhanda. Hirya hari inyubako ndende cyane yubakishijwe ibirahure bifite ibara ry'ubururu.

Uyu nguyu ni umuhanda, hepfo y'aho haparitse ibinyabiziga bitandukanye, harimo amapikipiki aho abagenzi bajya gutegera ibinyabiziga bibageza mu byerekezo bitandukanye bagiyemo, hari amapikipiki menshi aparitse ku murongo ku buryo bidateje akavuyo mu nzira ngo bibe byateza impanuka ndetse n'abagenzi bakabasanga aho bari, bityo bakabasha kumvikana bakabageza aho bagiye.

Aha hari ikibuga cyiza cyane kirimo ubwatsi bwiza kandi bufite isuku bitarimo umwanda na mukeya, harimo umuntu wambaye umupira w'ubururu n'ipantaro y'umukara urimo uragenda, ni ikibuga gikikijwe kandi n'ibiti byiza cyane hakaba hari n'amatara yo ku muhanda amurika nijoro mu gihe hatari kugaragara neza.

Iyi shusho irimo abantu bari gukina umukino uzwi cyane ndetse bakaba bari gukinira ku bwatsi bwiza cyane bw'icyatsi harimo n'utuyira tutarimo ibitaka hari kandi ibiti byiza cyane muri iyo nzu , iki kibuga kikaba gikikijwe n'inyubako nziza cyane isize amarangi y'ikijuju umweru ndetse hakaba hari n'umuhanda abantu bakoreramo siporo urimo amabara y'icyatsi .

Aha ngaha hari ikibuga kirimo ubwatsi bwiza cyane bufite ibara ry'icyatsi, hakaba harimo n'utuyira/n'akayira gatoya karimo ibitaka, hakaba kandi hari ahandi hejuru hirya hari intebe zicarwaho abantu kandi hakaba hari n'amatara amurika n'ijoro, hakikijwe kandi n'ibiti byinshi kandi byiza.

Ahangaha hari icyapa kiyobora ibinyabiziga bitandukanye gishyirwa mu muhanda kugirango hirindwe impanuka za hato na hato n'icyapa gifite ibara ry'ubururu kirimo inyuguti ya pa yanditse mu ibara ry'umweru ndetse harimo n'ishusho y'ikinyabiziga gitwara abantu nacyo cyanditse mu ibara ry'umweru.

Aha ngaha hari ibiranga ko hano hari umupaka ujya muri repubulika ya demokarasi ya Kongo, ni ibyapa bifite ibara ry'umweru byanditsemo amagambo yanditse mu ibara ry'umukara. Hirya kandi hari ikindi cyapa gifite ibara ry'icyatsi, cyandikishijwemo amagambo afite ibara ry'umweru.

Aha ngaha hari icyapa gishyirwa ku muhanda kugirango kiyobore ibinyabiziga kigaragaza ko hari imihanda, amahuriro y'imihanda ijya mu byerekezo bitandukanye, ni icyapa kiri mu ishusho y'uruziga gikozwe mu ibara ry'umweru ndetse n'ubururu hagati harimo amahuriro y'umuhanda abiri ashushanyije mu ibara ry'umweru.

Iki ni icyapa gishyirwa mu muhanda kugira ngo kiyobore ibinyabiziga bityo hirindwe impanuka za hato na hato, ni icyapa kiri mu ibara ry'umuhondo kandi hakaba harimo n'ibara ry'umukara, ibingibi bigira akamaro kuko byifashishwa mu kwirinda impanuka.

Aha ngaha ni mu muhanda mwiza cyane urimo isuku kandi ukikijwe n'ibiti byiza cyane, hakaba hari n'ubusitani bwiza cyane burimo indabo zitandukanye ndetse n'ibiti bitandukanye, akaba ari umuhanda utatseho ibara ry'umweru ndetse n'umukara, hakaba hari icyapa kiyobora ibinyabiziga na cyo kihashinze gifite ibara ry'umutuku ndetse n'umweru.

Iki ni icyapa gishyirwa mu muhanda kugirango ngo kifashishwe kuyobora ibinyabiziga. Ni icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, gifite ibara ry'umutuku ndetse n'ibara ry'umuhondo hagati harimo umuntu ushushanyijwe mu ibara ry'umukara.

Aha ngaha hari icyapa gishyirwa mu muhanda kugira ngo kiyobore ibinyabiziga ndetse n'abagenzi, ahantu hagiye hatandukanye ku mihanda, kikaba kiri mu ishusho y'uruziga, gifite ibara ry'umutuku ndetse n'ibara ry'umweru. Hakaba handitsemo umubare mirongo itandatu ndetse wanditse mu ibara ry'umukara ndetse n'andi magambo afasha abatwaye ibinyabiziga kugira ngo batayoba cyangwa se bakayobya abagenzi batwaye.

Ahangaha hari icyapa gishyirwa mu muhanda kugira ngo kiyobore ibinyabiziga ndetse n'abagenzi bityo bamenye aho bageze kugira ngo bataza kuyoba; n'icyapa kiri mu ishusho y'uruziga gifite ibara ry'ubururu ndetse n'ibara ry'umweru kikaba cyanditsemo umubare mirongo itandatu wanditse mu ibara ry'umukara.

Iki ngiki ni icyapa gishyirwa mu muhanda cyangwa ahantu hatandukanye kugira ngo cyereke abantu cyangwa abatwara ibinyabiziga ko aho hantu hatemerewe kugera ibinyabiziga. Ni icyapa gikozwe mu mabara y'umweru n'umukara ndetse n'umutuku, hakaba handitse ko nta kinyabiziga cyemerewe kugera aho hantu.

Ahangaha hari inkingi ifite irangi ry'umweru ndetse ni ry'umukara akaba ari inkingi iriho icyapa kiyobora abantu kigaragaza ahariho, ni icyapa gifite ibara ry'umweru kizengurutsweho ibara ry'umukara kiriho amagambo yanditswe mui ibara ry'umukara kandi hariho umubare ijana na mirongo inani na gatanu nawo wanditse mu mabara y'umukara .

Iyi shusho irimo icyapa gishyirwa mu muhanda kugira ngo kiyobore ibinyabiziga bityo hirindwe impanuka za hato na hato, ni icyapa gikozwe mu ishusho ya mpande eshatu akaba ari icyapa gifite ibara ry'umutuku ndetse n'ibara ry'umweru, iki ngiki kigira umumaro cyane cyane mu kurinda umutekano wo mu muhanda.

Uyu ni umuhanda mwiza cyane urimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga ndetse n'abantu bari kugenda n'amaguru, ni umuhanda ukikijwe n'ibiti byiza cyane ndetse n'ubusitani bwiza cyane ukaba utatsemo amabara y'umweru ndetse n'umukara, ni umuhanda ubereye ijisho kandi ufite isuku utarimo umwanda na mukeya.

Iki ni icyapa gishyirwa mu muhanda kugirango kiyobore ibinyabiziga bityo hirindwe impanuka za hato na hato. Ni icyapa gishushanyije mu ishusho ya mpandeshatu gifite ibara ry'umutuku ndetse n'umuhondo, hagati hakaba harimo umuntu ushushanyije mu ibara ry'umukara, hakaba kandi hariho n'amagambo yanditswe mu ibara ry'umweru.

Aha ngaha hari icyapa gishyirwa ku muhanda kugira ngo kiyobore ibinyabiziga ndetse n'abagenzi, iki ni icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu kirimo kigaragaza umuntu uri kwambuka umuhanda bigaragara ko kiri kuyobora umugenzi ukeneye kwambuka igihe ibinyabiziga bihagarara bikamutegereza yamara kwambuka bigakomeza urugendo, sibyo kandi hari n'amapikipiki ari kugenda mu muhanda mu cyerekezo kimwe.

Aha ngaha hari igikuta cyubakishije amabuye, hasi hari icyapa gishyirwa mu muhanda kugirango hirindwe impanuka za hato na hato, harimo icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu kirimo umuntu uri kwambuka umuhanda. Kigaragaza ko hano hari aho abagenzi bambukira umuhanda, bityo bigatuma ibinyabiziga bibanza kwitonda abagenzi bakambuka, bikabona gukomeza.

Aha ngaha hari amatara yashyizwe mu muhanda yagenewe kuyobora ibinyabiziga ndetse n'abagenza amaguru ni amatara yaka ibara ry'umutuku, icyatsi ndetse n'umuhondo ibi bituma hirindwa impanuka za hato na hato zo mu muhanda zitwara ubuzima bw'abantu.

Ahangaha hari inzu y'ubucuruzi iriho imiryango itandukanye, ni inzu isize irange ry'ikijuju ariko imiryango yayo ikaba isizeho irangi ry'ubururu. Hari ibigo bihakorera byigenga bitandukanye ndetse hari n'iduka ricuruza imyambaro y'abana ndetse n'iy'abantu bakuru cyane cyane abagore.

Aha ngaha hari inyubako ndende y'ubucuruzi irimo imiryango myinshi kandi ikorerwamo ubucuruzi butandukanye, imbere yayo hari ibinyabiziga bitandukanye, hari ibiparitse, igifite ibara ry'umutuku, umukara ndetse n'ibara ry'ikijuju, hari urujya n'uruza rw'abantu benshi ndetse n'ibinyabiziga bitandukanye birimo n'amapikipiki atwaye abantu.

Aha ngaha hari inyubako nziza cyane isize irangi ry'ubururu ifite amadirishya meza cyane, kandi ifite uruzitiro rukozwe mu byuma rusize irangi ry'ikijuju akaba ari inzu, ari inyubako iberamo ibikorwa bitandukanye by'imyidagaduro kandi abantu banasangamo amacumbi.

Aha ngaha hari umuhanda w'amabuye uri kujya ugendamo ibinyabiziga cyane cyane amapikipiki n'ibinyamitende, akaba ari umuhanda ukikijwe n'ibiti byiza cyane kandi hakaba hakikijwe n'amazu y'ubucuruzi cyane cyane aho bacuruza ibyo kunywa n'ibyo kurya.

Aha ngaha hari inyubako yubatse, yubakishije amatafari ahiye ndetse ifite, isizeho irangi ry'umweru. Ni inyubako itaruzura neza cyane kandi igaragara ko ari uruganda ruzatunganya ibintu bigiye bitandukanye, imbere y'inyubako hamennye amabuye n'imicanga myinshi, bigaragara ko ubwubatsi bwo kuyubaka ngo yuzure bugikomeje.

Aha ngaha hari umudugudu mwiza cyane, urimo amazu meza agiye atandukanye kandi yubatse mu buryo butandukanye, hari afite amabati y'umuhondo, hari afite amabati y'umukara, hari ndetse n'afite amabati atukura, hari hirya hari inzu isize irangi ry'ubururu, hano kandi hari ibiti n'ibyatsi byiza cyane bituma abantu batuye muri uriya mudugudu bahumeka umwuka mwiza.

Ahangaha hari inyubako nziza cyane, inyubako ndende irimo imiryango myinshi igiye itandukanye, ni inyubako yubatse ahantu hirengeye ku buryo umuntu uhari ashobora kureba ahantu henshi hatandukanye, si ibyo kandi, ni inyubako ifite uruzitiro rwiza cyane, hakaba hariho urugi rukozwe mu byuma rusize irangi ry'ubururu, hakaba hari umuntu w'umugabo uri kumanuka wambaye umupira w'umukara.

Aha ngaha ni mu muhanda, ukaba ukikijwe n'uruzitiro rwubakishijwe ibyuma, hakaba hari n'urundi kandi rwubakishijwe amatafari, hejuru hariho ibyuma. Ni inyubako nziza cyane, zubatse kandi zubatse ahantu hamwe, zifite amarangi meza cyane, hari ifite irangi ry'umweru, hari ifite irangi ry'umuhondo n'amabati atukura. Ni inyubako nziza cyane zibereye ijisho.

Aha ngaha hicaye abantu barimo imbere ni inzu izitijwe n'imbaho kandi nziza cyane, bicaye ku meza hariho igicupa kinini cy'amazi hanze kandi hari kandagira ukarabe aho abantu bagera bagafata isabune bagakaraba n'amazi meza kugira ngo hirindwe indwara.

Ahangaha hari inzu nziza cyane imenyerewe gucururizwamo ibyo kunywa n'ibyokurya hakaba hariho ibitambaro bifite ibara ry'icyatsi akaba ari inzu ifite ibara ry'umukara kandi ifite uruzitiro rukozwe mu byuma narwo rusize umukara hakaba hari igisenge gifite ibara ritukura hakaba kandi hari n'ikinyabiziga giparitse gifite ibara ry'ikijuju .

Ahangaha hari umurima munini cyane uhinzemo ibigori byinshi cyane, kandi hakaba hari n'ibiti bitandukanye, hirya hari umuhanda usize ibara ry'umukara uri kugendamo abantu ndetse haruguru hari inganda zitandukanye zifite amabara atandukanye ubururu ndetse n'umweru.

Ahangaha hari inyubako ndende isize irangi ry'umuhondo ikaba ikorerwamo ubucuruzi butandukanye, hejuru hasi amabara y'umukara ndetse n'umweru hasi hakaba hari kubera urujya n'uruza rw'ubucuruzi butandukanye harimo imiryango itandukanye. Imbere yayo hari abantu bambaye impuzankano zifite ibara ry'ubururu.

Uyu nguyu ni umudugudu urimo inyubako zitandukanye zubatswe mu buryo butandukanye, harimo izifite amabati afite ibara ry'umuhondo, iry'umutuku ndetse hakaba harimo n'amarangi y'umutuku, hari kandi inzu nini ifite irangi ry'umweru, akaba ari harimo ijambo ryanditsemo Remera bigaragara ko hano ari i Remera mu mujyi wa Kigali.

Aha ngaha hari inzu nyinshi zitandukanye nziza cyane kandi zubatse mu buryo butandukanye, hakaba hari inzu iri imbere yubatse ahayonyine, ari inzu ifite amarange y'umweru ndetse n'amabati atukura kandi hano hari ishyamba ryiza cyane rituma abatuye muri uriya mudugudu bahumeka umwuka mwiza utanduye.

Aha ngaha hari igiti gikozwe mu cyuma kiriho icyapa cyanditseho inyuguti ebyiri za K n'umubare mirongo itanu n'icyenda ibi ngibi, iki cyapa kiyobora abantu cyangwa ibinyabiziga kugirango babimenye aho bageze batayoba hirya haparitse ipikipiki, ndetse hari n'ibiti biteye ku murongo byiza cyane bikikije umuhanda hakaba hari n'ikinyabiziga cy'umukara kiri kureba kuri iki cyapa.

Aha ngaha hari amazu menshi cyane meza kandi yubatse mu buryo bugezweho, ni amazu afite amarangi atandukanye ndetse n'amabara y'amabati atandukanye harimo ay'umukara, ay'umutuku ndetse n'ay'umuhondo, ni amazu kandi akikijwe n'ibiti byinshi birebire kandi byiza birinda abatuye hano bibafasha kugira ngo bahumeke umwuka mwiza utanduye.

Ahangaha hari inyubako nziza cyane zubatse mu buryo bwiza kandi bugezweho zigerekeranye hakaba kandi izuba imbere yazo hari ibyatsi byiza cyane hari igisambu kirimo ibyatsi ndetse n'ibiti byiza cyane hakaba kandi hari n'uruzitiro rwubakishijwe ibyuma.

Iyi shusho iratwereka amazu meza cyane yubatse muburyo bugezweho kandi amazu afite amarangi meza cyane agiye atandukanye hari afite amabati y'umuhondo, afite amabati y'icyatsi, ay'ikijuju ndetse n'umutuku harimo kandi n'ibiti byiza cyane bituma abantu batuye hano bahumeka umwuka mwiza cyane.

Aha ngaha hari inyubako ndende hasi harimo imiryango y'ubucuruzi ikorerwamo ubucuruzi butandukanye, iyi nyubako isizeho amarange atandukanye hariho ay'umweru, ay'umutuku ndetse nay'ubururu. Imbere y'iyi nyubako hakaba hari ibinyabiziga biparitse birimo ibinyabiziga byigenga bifite amabara y'umukara biparitse ku murongo ndetse n'ikindi kiri ku muhanda gifite ibara ry'umweru ndetse n'ipikipiki iri gusohoka kuri iyi nyubako.

Ahangaha hari umuhanda uri kugendamo ikinyabiziga kiriho ikirangantego cy'ikigo gishinzwe gucunga umutekano hakaba gifite ibara ry'umweru ndetse hakaba hari umugenzi uri kugenda n'amaguru.

Aha ngaha hari uruzitiro rwubakishijwe amatafari akozwe mu isima, hakaba hariho amatara hejuru amurika mu gihe cya ninjoro. Mo imbere muri uru ruzitiro harimo inzu nziza cyane zubatse mu buryo bumwe kandi bugezweho, zikaba zigiye zifite ibigega hejuru bibikwamo amazi.

Ahangaha hari inzu ifite irangi ry'umuhondo n'amabati atukura, ni inyubako ifite uruzitiro rwiza cyane kandi rukomeye rwubatswe n'amatafari ndetse n'umucanga ku buryo nta hantu umuntu ashobora kwinjiramo igihe ha atabiberewe uburenganzira, hari kandi urutsinga rujyana umuriro w'amashanyarazi muri runo rugo.

Iyi ngiyi ni inyubako nziza cyane kandi nini, ni inyubako isize irangi ry'umuhondo ndetse n'amabara y'icyatsi ikaba ari inyubako ifite ubusitani bwiza cyane mo imbere, hakaba kandi ifite uruzitiro rukozwe mu byuma rusize ibara ry'icyatsi, hanze y'uru ruzitiro naho hari ubusitani burimo ibyatsi byiza cyane ndetse n'indabo zikikije uru ruzitiro.

Aha ngaha hari umudugudu urimo inzu nyinshi cyane z'amoko atandukanye kandi zubatse mu buryo butandukanye ,hakaba hano hari ikigega gifite ibara ry'umukara cyandikishijeho amagambo mu ibara ry'umweru hakaba kandi hari n'igiti kinini kirekire kiriho insinga z'amashanyarazi zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi kugira ngo ugere ku bantu bose batuye muri izi nzu cyangwa se hafi muri izi nyubako.

Aha ngaha hari inyubako nziza cyane iriho amarangi y'umutuku ,umuhondo ndetse n'umukara irangi ry'umutuku handitsemo amagambo yanditse mu ibara ry'umweru .Ni inyubako kandi ifite urugi ifite uruzitiro rufite urugi rukozwe mu byuma rugusize ibara ry'umukara, haparitsemo ikinyabiziga gifite ibara ry'umweru.

Iyi ngiyi ni inyubako nziza cyane y'ubucuruzi, imbere y'iyi nyubako haparitse ibinyabiziga bitandukanye bifite ibara ry'umukara ariko zikoze mu bwoko butandukanye, iyi ni inyubako irimo amasoko atandukanye ndetse harimo ahakorera n'ibigo byigenga.

Aha ngaha ni umuhanda kandi ni ahantu hari amahuriro y'umuhanda, harimo ibinyabiziga biri kujya mu byerekezo bitandukanye, uyu muhanda ukikijwe n'ibiti byiza cyane, kandi harimo amatara amuririka ibinyabiziga mu gihe cya ni joro, harimo ibinyabiziga bitandukanye, ibyigenga, ibitwara imizigo ndetse n'ibindi bikoreshwa mu bwubatsi.

Uyu ni umuhanda munini urimo kugendamo ibinyabiziga bitandukanye, amapikipiki ndetse n'ibinyabitende bitwaye abantu, hakaba harimo n'abantu bari kugenda n'amaguru, hari umugabo uri kugenda mu cyerekezo wambaye ishati y'ubururu ndetse n'ipantaro y'umweru. Ni umuhanda ukikijwe n'ibiti byiza cyane bibereye ijisho kandi harimo n'amatara yo ku muhanda amurikira ibinyabiziga ndetse n'abagenzi mu gihe cya n'ijoro.

Aha ngaha ni mu muhanda mwiza cyane ubereye ijisho kuwureba kubera isuku irimo ku buryo nta mwanda na muke urimo, hari ahagenderwa n'abanyamaguru, hakaba kandi uyu muhanda ukikijwe n'ubusitani burimo ibiti byiza cyane ndetse n'ibyatsi byiza cyane biteye hasi, ukaba utatswemo amabara y'umweru ndetse n'umukara, akaba ari umuhanda ukikijwe n'ibiti bibereye ijisho ndetse n'amatara amurikira ibinyabiziga mu gihe cya nijoro.

Ahangaha ni mu muhanda mugari cyane, urimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga ndetse n'abantu bagenda n'amaguru. Hari amapikipiki abiri arimo kugenda, hari kandi n'amatara yagenewe kuyobora ibinyabiziga igihe abagenzi bari kwambuka, cyangwa kubiyobora kugira ngo hirindwe impanuka, cyangwa se ibinyabiziga bitagongana hagati yabyo.

Ahangaha hari umuhanda mwiza cyane, hari amahuriro y'umuhanda hakaba hari kandi n'ubusitani hagati, butatswe n'amabara y'umukara n'umweru, harimo ubwatsi bwiza cyane ndetse n'ibiti, hakaba hari ibinyabitende biri kugenda mu cyerekezo gitandukanye, hakaba kandi hari n'ibindi binyabiziga ipikipiki itwaye umuntu n'ikindi kinyabiziga gifite ibara ry'umukara.

Uyu nguyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga biri guturuka mu byerekezo bitandukanye ni umuhanda mwiza cyane ufite isuku utarimo umwanda na mukeya ni umuhanda kandi ukikijwe n'inyubako nziza cyane hakaba harimo n'ibiti bitandukanye bibereye ijisho sibyo gusa hari n'indabo ziteye kuri uyu muhanda hakaba hari n'icyapa kiyobora bino binyabiziga kugira ngo hirindwe impanuka za hato na hato .

Uyu ni umuhanda mwiza cyane kandi mugari, utatse amabara y'umweru n'umukara, uri kugendamo ibinyabiziga bitandukanye, ni umuhanda kandi ufite ubusitani mo hagati buteyemo ibiti byiza cyane, hakaba harimo n'amatara yo ku muhanda amuririka ibinyabiziga mu gihe cya nijoro. Akaba ari umuhanda ukikijwe n'ishyamba cyangwa ibiti byiza cyane.

Ahangaha ni mu muhanda urimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga, hakaba hari umuhanda ahari ibara ry'umweru aha hamenyerewe ko ariho abagenzi bambukira, hari kandi n'amatara yagenewe kuyobora ibinyabiziga mu muhanda kugira ngo bitagongana cyangwa se ngo bikore impanuka hagati yabyo.

Ahangaha hari umuhanda mwiza cyane ukikijwe n'ibiti byiza cyane kandi birebire cyane, hakaba harimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitandukanye, harimo ibyikorera imizigo, harimo ndetse n'ibyigenga bitwara abantu bisanzwe, hakaba hari akazu abagenzi bicaramo igihe bategerereza ko ibinyabiziga biza kubatwara gafite ibara ry'ubururu.

Ahangaha hari umuhanda mwiza cyane, ukikijwe n'ubusitani bwiza cyane burimo ibiti by'amoko atandukanye, ndetse hasi hakaba hateye ubwatsi bwiza cyane, hari umugabo uri kugenda muri ubwo bwatsi, uyu muhanda utatswe n'amabara y'umukara ndetse n'umweru, hakaba hari icyuma gifasha kufotora ibinyabiziga igihe biri kugenda ku muvuduko uri hejuru cyane.

Aha ni mu muhanda ahari kugendamo ibinyabiziga bitandukanye ndetse uyu muhanda urimo ibara ry'umukara bigaragara ko hano ari abagenda n'amaguru bambukira aho ibinyabiziga bibanza bigategereza abantu bakambuka bikabona gukomeza urugendo hari ipikipiki iri gukata ahari amahuriro y'umuhanda kugirango ngo yinjire mu kindi cyerekezo cy'umuhanda.

Aha ngaha hari akayira keza cyane karimo amabuye ku buryo umuntu ashobora kuhanyura ntihagire itaka rimunyuraho, aka kayira gakikijwe n'ubusitani bwiza cyane buteyemo ibiti byiza cyane by'amoko atandukanye, harimo umugore uri kugenda wambaye ijipo y'umukara kandi hirya hari ibinyabiziga biri gutambuka hari kandi icyapa kigaragaza ko hano hari umuhanda ujya mu byerekezo mu bigiye bitandukanye.

Ahangaha hari umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye ni umuhanda w'umukara ariko wasataguritse hakaba hari kugendamo ipikipiki kandi hakaba harya hari ibinyabiziga byikorera imizigo cyane cyane ibyambukiranya imipaka.

Aha ngaha ni mu muhanda uri kugendamo ibinyabiziga bibiri biri kujya mu byerekezo bitandukanye, ikinyabiziga kimwe kikaba gifite ibara ry'umutuku ikindi kikaba gifite ibara rijya gusa umweru, hari kandi icyapa kiyobora ibinyabiziga kugirango hirindwe impanuka za hato na hato, uyu muhanda ukaba ukikijwe n'ibiti birebire kandi byiza cyane.

Ahangaha hari umuhanda. Ishusho yafashwe ninjoro mu muhanda mwiza cyane urimo ibinyabiziga biri kugenda bicanye amatara kuko burije, akaba amatara yo ku muhanda yubatse neza ku murongo, ari kumurikira ibinyabiziga ndetse n'abantu bari kugenda nijoro. Si ibyo gusa kandi hari n'inyubako ziri ku ruhande nazo zirikwaka amatara ku buryo byose bibereye ijisho kubireba.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye biri kujya mu cyerekezo kimwe, hakaba hari akazu abagenzi bicaramo igihe bategerereza ko ibinyabiziga biza kubatwara gasize ibara ry'ubururu, hakaba hari umugabo uri kugenda wambaye umupira w'icyatsi ufite n'agafuka mu mugongo.